Abaturage benshi bagiye batandukanye, bahagaze hamwe. Higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bamwe barahagaze, abandi babiri barasutamye. Inyuma yabo hakaba hari inzu nini.

Abamama batandukanye bari ku ivomero rusange, bakaba bazanye ibikoresho birimo amajerekani y'umuhondo batwaramo amazi, ku ruhande rwabo inyuma hakaba ari insina zeraho ibitoki, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye harimo abambaye amashati ari mu ibara ry'ubururu bigaragara ko ari abavoronteri, hakaba hari n'abandi bambaye amakote bari kugenda bafata udupapuro n'undi uri inyuma uri gufata amafoto.

Umumama uri ku iriba, akaba arivomero bavoma amazi bakoresheje uburyo bwo gupompa ndetse hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byo gutwaramo amazi nk'indobo, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire.

Aba mama bahagaze ndetse n'undi mu mama wicaye uteze igitambaro cy'umukara mu mutwe. Akaba ari kumwe n'akana kambaye ingofero y'ubururu bigaragara ko bakazanye ku kavuza. Uri kukitaho yambaye taburiya y'umweru ifite amabara yandi.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye hamwe ndetse bari kumwe n'abari kubitaho, hakaba ari umumama waje kwivuza uteze igitambaro mu mutwe, ndetse hari umukobwa umufashe ikiganza ugiye kumujombaho urushinge.

Aba mama bagiye batandukanye bari kumwe n'abana babo, umwana umwe ari kuvoma undi ari kumwe n'umubyeyi we na ho undi bari kumukarabya bakoresheje amazi yo ku iriba bazanye ibintu bigiye bitandukanye bari butwaremo amazi nk'indobo ndetse n'amajerekani.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiberamo inama hakaba harimo abadamu ndetse n'abagabo, ku meza bicayeho imbere yayo hariho indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa, hakaba hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ku meza imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse na telefone ngendanwa hakaba hateretseho n'amacupa y'amazi.

Ikirango cy'ikigo gitanga amazi mu Rwanda, kikaba kirimo igitonyanga ndetse n'imisozi ibiri n'izuba, akaba ari ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe kugeza ku baturarwanda amazi.

Umumama uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe, imbere ye hakaba hari abagabo umwe aricaye undi arahagaze bafite ibipapuro mu ntoki zabo, ku meza iri imbere hateretseho mudasobwa.

Abaturage bagiye batandukanye bari ku ivomero rusange, hakaba hari umu mama wambaye imyenda y'ibitenge ndetse n'akana kari kuvoma gafite ijerekani y'umuhondo n'abandi benshi bari inyuma bigaragara ko bashungereye.

Aba mama batandukanye bari ku ivomero rusange akaba ari ivomero bapompa kugirango ngo amazi abone kuza, bazanye ibikoresho byo gutwaramo amazi bitandukanye birimo nk'indobo ndetse n'ibindi bimeze nk'ibisafuriya binini.

Abaturage benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'abambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu n'abandi bafite ibitabo mu ntoki zabo. Inyuma yabo hakaba hari ibyapa bitandukanye.

Abama bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe bakaba bari kuvurwa ndetse umwe ku kaboko bamwambitseho ikimashini, uri kubafasha yambaye itabariya y'umweru, inyuma yabo hari ubusitani buteyemo n'ibindi biti.

Abantu bari mu cyumba kimwe ni batatu bakaba hari babiri bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu bigaragara ko ari abaganga, n'undi mukobwa wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa ndetse yashyize akaboko ku meza bari kumuvura.

Abana bagiye batandukanye bambaye imipira ndetse harimo abahungu n'abakobwa, bahagaze imbere y'ikigega kinini cy'umukara bafite ibikombe mu ntoki zabo, ku ruhande hakaba hari inzu yubakishije amabati hamwe n'insina z'ibitoki.

Umumama wikoreye ijesherekani y'umuhondo bigaragare ko avuye kuvoma ku ruhande rwe hari umugabo wunamye ku rundi ruhande hari akana, imbere ye hakaba hari inyubako ifite igisenge gitukura.

Abaturage bagiye batandukanye, bari hamwe higanjemo aba mama. Ndetse hakaba hari imiryango igi itandukanye bigaragara ko ari aho umuganga bari, umwe umwe akagenda amugana akamubwira ikibazo afite, akamufasha.

Umwana uri ku ivomero hakaba hateretse indobo ndetse uwo mwana yateze ibiganza byombi ari kunywa amazi hirya y'iwe hakaba hari ibihuru n'ibiti birebire ndetse n'igikuta kinini giteretseho ikigega.

Umugabo n'umugore bahagaze bari gufata ifoto. Bakaba bari imbere y'ibyapa bitatu, kimwe kiriho abana, ikindi kiriho umugore uteruye umwana. Naho icyo bari imbere, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bagiye batandukanye bari ku ivomero harimo umumama n'abana batoya hakaba hari ibikoresho bitandukanye bazanye bari butwaremo amazi nk'indobo, amabase ndetse n'amajerekani y'umuhondo.

Abantu bagiye batandukanye bakoraniye ahantu hamwe, bigaragara ko ari ababyeyi bari kumwe n'abana babo, bamwe barahagaze abandi baricaye, ndetse hakaba hari n'umuganga uri kubafasha wambaye itaburaya y'umweru, ku ruhande rwe akaba afite ibikoresho bitandukanye ari kwifashisha.

Umwana uri guseka wambaye ikanzu bigaragaza ko ari umukobwa, akaba ari gukaraba intoki akoresheje indobo y'icyatsi irimo amazi ndetse n'ibase, inyuma ye hari inyubako y'ubakishijwe amatafari ahiye.

Abaturage batandukanye bari ahantu hamwe, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, hakaba ari amahima y'umweru arimo abandi inyuma yabo hari inyubako imanitseho icyapa.

Abantu batandukanye bicaye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa na mudasobwa, bakurikiye umugabo uri imbere ufite indangururamajwi.

Abamama babiri bicaye hamwe, bakaba bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara bose bifashe neza bari kumwenyura. Inyuma yabo hakaba ari ibendera riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amarido ahatwikiriye y'ubururu.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko ari ku ivomero rusange, hari abantu bakuru ndetse n'abana, bamwe bazanye ubujerekani buri mu ibara ry'umuhondo bwo gutwaramo amazi, bakaba bakikijwe n'imisozi n'ibindi bihingwa.

Abantu bagiye batandukanye bari mu nzu harimo abagore ndetse n'abagabo harimo n'abamama bateruye abana hakaba hari umugabo uhagaze imbere uri kuvuga wambaye ishati inyuma ye hari umunzani bapimiraho abana ibiro bamaze kugira.

Umugore uri kwa muganga bigaragara ko atwite, abantu bose bari aho bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse bamushyize akantu ku nda, bari kumva uko umwana uri mu nda ameze ndetse inyuma yabo hakaba hari igikuta gisize irangi ry'umweru n'ubururu.

Umugabo uri gukoresha uburyo gakondo bwa kandagira ukarabe akaba yambaye ipantaro y'umukara ishati y'ubururu ndetse kuruhande rwe hari ibindi birabyo bitandukanye n'imiyenzi.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe, harimo abamama ndetse n'abagabo. Bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse ku ruhande hakaba hari inzu iri mu ibara ry'ubururu. Hateretse ikidobo kinini bashyiramo imyanda.

Abakobwa babiri bigaragara ko bakiri bato, bose bakenyeye ibitambaro. Bakaba bari ku ivomero ndetse bose bahurije ibiganza ku ndobo iri mu ibara ry'icyatsi, umwe agiye gukorera undi. Inyuma yabo hari inzu y'amatafari.

Abana bagiye batandukanye bari ku ivomero rusange baje kuvoma amazi, bitwaje ibikoresho bigiye bitandukanye bari butwaremo amazi, birimo amajerekani ndetse n'utudomoro dutoya, bakaba bari gupomperwa amazi n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ikoboyi ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, ari gukoreza umwana ijerekani ndetse ku ruhande hari umukobwa ufashe telefone ngendanwa mu ntoki uri kubafata ifoto.

Abantu bane bahagaze imbere y'abantu, hakaba harimo abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe, biragaragara ko bari gukina ikinamico, inyuma yabo hari insakazamashusho nini cyane, yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abaturage benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, hakaba hari n'imbangukiragutabara itwara abantu barembye, inyuma yayo hari inyubako.

Abamama benshi bagiye batandukanye bari kumwe n'abana babo, abenshi bateze ibitambaro mu mutwe ndetse bakaba bicaye imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, asize amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abaturage bari ku ivome rusange hakaba hari n'umwana uteze akajerekani k'umuhondo afite mu ntoki kugirango ngo hajyemo amazi hakaba hari n'undi mu mumama umaze kuvoma wambaye umupira utukura.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, ndetse benshi muri bo imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ,bakurikiye abantu bari imbere higanjemo abadamu ndetse hakaba hari n'insakazamashusho.

Abantu benshi bari hamwe bambaye imyambaro isa iri mu ibara ry'ubururu. Bakaba bambaye udupfukamunwa, biragaragara ko bari kuvura umuntu. Ku ruhande hakaba hari imashini zigiye zitandukanye, ziri kwifashishwa muri icyo gikorwa.

Abantu benshi bari hamwe, bambaye imipira iri mu ibara rya oranje, hakaba yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahuriye hamwe kugira ngo bakore igikorwa cyo gutera ibiti by'imbuto zitandukanye, ku ruhande rwabo hakaba hari ibindi biti byakuze.

Abantu bagiye batandukanye bigaragara ko ari urubyiruko, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bambaye udupfukamunwa bose. Higanjemo abambaye imipira y'umweru ndetse n'icyatsi. Ku meza hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari hamwe, bigaragara ko hari umumama wambaye umupira w'ubururu n'akajire, uri kugenda abahereza ibipapuro, munsi yaho hantu bari, hakaba hari ahandi haparitse imodoka imbere y'inyubako.

Abantu batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo bicaye hamwe baratuje. Imbere yabo hakaba ari uducupa tw'amazi yo kunywa, bakaba bakurikiye abandi bari imbere bari kubagezaho ijambo.

Abaturage bagiye batandukanye higanjemo aba mama ndetse bamwe muri bo bazanye n'abana babo, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe ndetse imbere yabo hari abagabo babiri bahagaze umwe ufite ibipapuro mu ntoki ze uri kubagezaho ijambo.

Abana bagiye batandukanye bari ahantu ku ivomero hakaba barimo abahungu ndetse n'aba'abakobwa, bambaye imyenda iri mu ibara rya kake bigaragaza ko ari impuzankano z'ishuri, baje kuvoma amazi mu bikoresho bigiye bitandukanye, utujerekani ndetse n'indobo.

Abagabo benshi bahagaze hamwe bigaragara ko bambaye amakote ndetse hakaba harimo n'abadamu bagiye batandukanye, inyuma yabo hakaba ari icyapa kinini cyane cyanditseho ibigo bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Abagabo benshi bakaba bambaye amakote ndetse inyuma ya bo, hari icyapa kinini, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyanditseho amagambo atandukanye.

Umwana wambaye ijipo ndetse n'ishati y'umuhondo, akaba ari imbere y'indobo nini irimo amazi ari gukaraba intoki, ku ruhande hari igiti kinini cyane gifite n'amashami ataratse, hakaba hari n'abandi banyeshuri.

Abamama batatu bari ku ivomero rusange bambaye imyenda ikozwe mu bi bitenge, babiri bari gupommpa kugirango amazi aze, undi ari gukoresha indobo akavoma ku ruhande rwabo akaba ari ibiti birebire.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye bakurikiye abandi bari imbere, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Abaturage benshi cyane bagiye batandukanye bari ku ivomero rusange, harimo abana ndetse n'abagabo, ku ivomero hakaba hateretse ijerekani y'umuhondo iri kujyamo amazi, ku ruhande hari akandi kajerekani gatoya.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe kiri kuberamo inama, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo ku meza, hagiye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse bamwe bashyizeho n'amasakoshi.

Abaturage bagiye batandukanye bateraniye ahantu hamwe, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bamwe baricaye abandi barahagaze ku ruhande hakaba hari amahema y'umweru arimo abandi bantu benshi.

Abantu batandukanye bari mu nama. Ndetse imbere yabo hari abandi bagabo babiri bicaye .Bafite indangururamajwi imbere yabo ndetse ku meza hariho uducupa tw'amazi yo kunywa, umwe muri bo afite na mudasobwa imbere ye.

Abantu bagiye batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze. Higanjemo abagabo ndetse n'abagore . Ndetse abenshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hakaba hari icyapa kihamanitse cyanditseho amagambo.

Abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bateraniye ahantu hamwe, abenshi muri bo bambaye ingofero ziri mu ibara ry'umweru ndetse bafite icyapa kirekire cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abaturage benshi bari hamwe higanjemo abagore ndetse n'abana n'abagabo, bakaba bari ku ivomero rusange, bazanye ibikoresho bigiye bitandukanye byo gutwaramo amazi birimo nk'indobo ndetse n'amajerekani.

Abantu batandukanye bari ahantu bicaye ndetse hari undi mukobwa wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara uteruye umwana hakaba hari undi uhagaze uri gufata ibintu bimeze nk'imiti kugira ngo abahe.

Abantu bagiye batandukanye bari hamwe, harimo umumama wambaye umupira utukura, ingofero y'umweru, ari gutamika umwana ikinini bigaragaza ko arwaye, yaje kwivuza ndetse hari abandi bamama bafite ibipapuro mu ntoki zabo.

umusaza ugeze mu za bukuru wambaye aka gofero k'umweru kU Umutwe akaba ari kwitabwaho n'umugabo wambaye taburiya y'umweru n'uturinda ntoki tw'umweru inyuma yabo hakaba hari akana gatoya ndetse n'ibyatsi birebire.

Abana bari ku ivomero rusange bazanye utujerekani turi mu ibara ry'umuhondo batwaramo amazi. Hakaba hari umukobwa uri gupompa amazi, wambaye ipantaro y'umukara. Hirya hari gutunguka imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Abaturage bagiye batandukanye bari hamwe, higanjemo abana batoya, abahungu ndetse n'abakobwa. Bakaba bakurikiye abantu batatu bari gukina ikinamico bari imbere, harimo umumama umwe ndetse n'abasore babiri.

Umwana uri ku ivomero rusange ufite indobo y'umuhondo bigaragara ko amaze kuvoma amazi ari kugerageza kuyiterura kugira ngo ayikorere ajyane amazi akaba yari umugabo uhagaze wambaye imyenda iri mo ibara ry'ubururu.

Abana bagiye batandukanye benshi bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umuhondo, barishimye ndetse bari gupepera. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bakuru harimo n'abanyamahanga bahagaze nabo bari gupepera.

Abaturage benshi bagiye batandukanye bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze, abandi bicaye mu busitani buhari. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo, ku ruhande hakaba hari imodoka ihaparitse ndetse n'inyubako ifite igisenge gitukura.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru abandi bambaye iy'ubururu ndetse bahagaze imbere y'icyapa kinini cyandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Abantu bagiye batandukanye bambaye neza harimo abagabo ndetse n'abagore, impande yabo hari amabendera abiri agiye atandukanye ndetse inyuma yabo hakaba hari n'icyapa kinini kiri kwakamo ibara ry'umweru.

Abaturage bagiye batandukanye bari ku ivomero rusange, hari umwana wambaye umupira utukura, ufite amajerekani uri kuvoma ndetse abandi harimo abama bateruye abana bari kubarebera inyuma yabo hakaba hari imiyenzi.

Abaturage bagiye batandukanye bahagaze inyuma ku ruhande, hakaba ari undi musaza wicaye bigaragara ko bari kumusuzuma indwara ya kovide cumi n'icyenda, abari kumwitaho bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo uri kumwe n'umugore we utwite, bakaba baje kureba umujyanama w'ubuzima kugira ngo abagire inama y'uko bakwitwara umwana akazavuka ameze neza, umujyanama w'ubuzima akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu.

Abaturage bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bafite ibipapuro mu biganza byabo, ndetse bakaba bari mu nzu bigaragara ko ifunze, hakaba hari idirishya riri gutuma haza umucyo mu nzu.

Umwana wambaye agakabutura k'umutuku ari ku ivomero ndetse kuri iryo vomero hakaba hari n'indobo ihateretse bigaragaza ko ariyo yaje gutwaramo amazi, abanje gutega ibiganza bye bibiri ku mazi kugira ngo anyweho icyaka gishire.

Abama bagiye batandukanye bari ahantu hamwe; abenshi bambaye imipira y'umweru ndetse bagiye bafite n'abana babo bambaye imipira ya oranje, hakaba hari umugabo uri gukinisha akana wambaye umupira na we wa oranje.

Abana bagiye batandukanye benshi, bahagaze hamwe. Hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bambaye impuzankano z'ishuri. Imbere yabo hari abandi bamama bakuru bahari, ndetse bakaba bari munsi y'ihema rinini ry'umweru.

Abana baje kw'ivomera kuvoma, ndetse hari umukobwa uri kubafasha kubona amazi. Ku ruhande bakaba bakikijwe n'ibyatsi byinshi, hakaba hari n'imodoka iri kuza igana aho ngaho iri mu ibara ry'umweru.

Abamama bagiye batandukanye, bazanye n'abana babo; abana bakaba bicaye hasi, bambaye imipira iri mu ibara rya oranje ndetse hari abandi bamama bari kubitaho, babanywesha igikoma, hari n'ushinzwe umutekano, waje kwifatanya na bo.

Umumama wambaye imyenda yo mu bi bitenge akaba afite indobo ebyiri ziri mu mabara atandukanye, Iy'umutuku ayikoreye ku mutwe naho iy'umuhondo ayifite mu biganza bye, ku ruhande rwe ha akaba ari ibiti bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bagiye batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, hakaba hari abambaye imyenda y'ubururu n'abandi bambaye iya kake, bicaye ku ntebe z'ishuri imbere yabo bakaba bagiye bafiteho amasahane ariho ifunguro.

Umwana uri ku ivomero yatezeho intoki biragaragara ko ari koga mu maso ndetse ku ruhande rwe hari amajerekani agiye atandukanye yo gutwaramo amazi, ay'umuhondo ndetse n'indi y'ubururu, ku ruhande hakaba ari ishyamba.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama bakaba ari benshi, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo imbere yabo ku meza hakaba hateretse amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse bambaye utuntu mu majosi.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara, akaba ari kuvoma amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo iteretse mu mabase abiri agerekeranyije, inyuma ye hakaba hari umugozi wanitseho imyenda igiye itandukanye.

Umuntu uri ku ivomero rusange, akaba yikenyeje igitambaro kinini ndetse ku ivomero yazanye ibikoresho bigiye bitandukanye byo gutwaramo amazi, harimo ijerekani y'umuhondo n'akandi kajerekani gatoya k'ibara ry'umweru.

Abana bane bari ku ivomero. Hakaba hariho n'iijerekani, ndetse akaba ari ivomero bapompa kugira ngo amazi abone kuza. Umwe muri abo bana afite inkoni mu ntoki ze, ndetse inyuma yabo hakaba ari ubusitani bunini.

Abana babiri bari ku ivomero rusange riri kuvamo amazi batezeho ibiganza, amazi ari kubagwaho bigaragara ko bishimiye gukina n'amazi ndetse inyuma y'abo bakikijwe n'ahantu hari ibyatsi byumye.

Umukobwa usutamye akaba ari kuvoma amazi mu ijerekani y'umuhondo iteretse mu mabase abiri agerekeranyije, inyuma ye hakaba hari umugozi wanitseho imyenda igiye itandukanye, ku ruhande hari inzu yo mu mabati.

Abana bari ku ivomero rusange, umwe yatezeho utujerekani yazanye kugira atwaremo amazi ndetse uwundi ari kumupompera kugira ngo amazi aze. Inyuma yabo hakaba hari ubusitani n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Umugore wicaye, imbere ku meza hakaba hateretse agacupa k'amazi yo kunywa. Ndetse hakaba hari undi mugabo uhagaze imbere ye, wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu. Imbere y'uwo mugabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa.

Abana babiri bari ku ivomero rusange, bakaba basutamye, bose bateze ibiganza byombi ku mazi ari kumanuka, barabyishimiye cyane. Umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye imyenda idozwe mu bitenge.

Abaturage benshi bari hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo bafite ibyapa by'umweru byanditseho amagambo atandukanye, inyuma yabo hakaba ari akazu kubatse mu mabati ndetse n'ibyatsi.

Umumama wicaye ku gitanda uri kwitegereza uburyo umwana ari kuvurwa, abari kumuvura akaba ari umugabo n'umugore, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse ku ruhande inyuma yabo hakaba hari abandi baje kuvuza.

Abantu bagiye batandukanye bari hamwe bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere ku meza hakaba hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye ndetse n'amatasi bari kunyweramo icyayi.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo ku meza hakaba hari amakayi agiye atandukanye, ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa, inyuma yabo ku gikuta hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru kihamanitse.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe bakoze uruziga harimo abagabo ndetse n'abadamu, imbere yabo mo hagati hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, ari kugenda ababwira ibintu bitandukanye.

Abana benshi cyane bari hamwe bigaragara ko bari ku ivomero, hakaba hari ibase irimo amazi menshi yuzuye, abana bamwe bashyize ibiganza ku itiyo ihari bari gukaraba abandi bahagaze inyuma bari kubareba.

Abantu batandukanye bari ku ivome rusange harimo abagore abagabo ndetse n'abana, ku ivomero hakaba hari umwana wambaye agapira k'umutuku, ufite amajerekani ari kuvoma ndetse inyuma yabo hakaba hari insina z'ibitoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe hari abicaye ndetse n'undi mu mama uhagaze wambaye agapfukamunwa uri kumwe n'akana, akaba ahagaze imbere yaba mama babiri imbere bafite mudasobwa ndetse ku meza hariho n'amakayi.

Abaturage batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bicaye munsi y'ihema rinini ririho amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Imbere hakaba hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cy'umweru, bose bazamuye akaboko k'iburyo.

Umudamu uri ku ivomero akaba yazanye ijerekani yo kuvomeramo iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse ku ruhande rwe hari abandi bana bagiye batandukanye, umwe yambaye agapira kari mu ibara ritukura, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi.

Ivomero rusange ririho abaturage, umugabo ndetse n'umugore baje kuvoma amazi, bakaba bafite amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse imbere yabo hari undi mudamu uhahagaze wambaye ijire iri mu ibara rya oranje.

Abaturage benshi bari hamwe, harimo abagore ndetse n'abakobwa. Bamwe muri bo bakaba bari kumwe n'abana babo, bigaragare ko bicaye hanze y'ivuriro. Ku ruhande hari icyuma cyabugenewe bita kandagira ukarabe, bakandagiraho bagakaraba mu ntoki.

Abaturage benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo abagore abagabo ndetse n'abana, bafashe amabendera mu ntoki zabo y'gihugu cy'u Rwanda ari mu mabara atandukanye umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Umumama ugeze mu za bukuru wambaye imyenda idozwe mu bitenge, yicaye ku gatebe bakunze kwita agasongabugari, imbere ye hari inkono bigaragara ko ari guteka ndetse inyuma ye hakaba hari n'inzu y'ubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bamwe barasutamye abandi barahagaze, bigaragare ko bari gufata ifoto, imbere ku meza hari hateretse icupa ry'amazi yo kunywa, ndetse inyuma ku gikuta hakaba hari n'ifoto y'umuntu runaka.

Umumama wicaye hamwe uteze igitambaro mu mutwe, akaba yicaye ku ntebe y'urubaho, inyuma ku gikuta gisize irangi ry'umweru hashushanyijeho ururabo urabona ko ari kwitegereza bigaragara ko ari gutekereza.

Abantu biganjemo urubyiruko batandukanye bicaye hamwe, bigaragara ko bari mu nama barakurikiye. Bakaba bicaye ku ntebe zitukura. Kuruhande hari abandi bantu bahagaze barimo n'umukobwa wambaye umupira w'umukara

Abantu bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bapanze intebe mu buryo bw'uruziga, impande ya buri ntebe hari agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo biharambitse. Hakaba hari abandi bahagazemo hagati.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'umugabo umwe wicaye. Bakaba bicaye ku ntebe z'urubaho. Bamwe muri bo mu ntoki zabo bagiye bafitemo ibipapuro bitandukanye. Inyuma yabo hakaba hari insina z'ibitoki ndetse n'amashyamba.

Umumama wicaye ku gasonga bugari uhetse umwana, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hakaba hari isafuriya bigaragara ko atetse igikoma, ku ruhande hari akandi kana k'agahungu gahagaze inyuma hari irido.

Abantu benshi bicaye hamwe bateranye higanjemo abagore hakaba harimo n'abagabo, hakaba ari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo bari kwigiramo.

Umugabo usa nabi mu isura ndetse akaba yambaye n'imyenda byacikaguritse akaba afite n'ibinintu ahetse ku rutugu bigiye bitandukanye birimo nk'amashashi bigaragara ko ari umusazi inyuma ye hakaba hari imodoka nini itwara imizigo.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu myanya iri imbere, ndetse bakaba bakurikiye abandi bicaye imbere yabo barimo abadamu n'abagabo, hakaba hari meza irambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Abaturage bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore imbere ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa, bamwe bateretseho n'amasakoshi yabo bakurikiye umugore uhagazemo hagati wambaye ikote ry'umukara.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe, higanjemo urubyiruko abagabo ndetse n'abagore, bafite icyapa imbere yabo kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu babiri bicaye hamwe hari mugabo ndetse n'umugore. Imbere ku meza harambuye igitambaro kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse hateretseho icupa ryamazi yo kunywa. Umumama akaba yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'ubururu ari kureba mu gikoresho k'ikoranabuhanga.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru ikora nk'ibitaro bigendanwa, hakaba haje abaturage batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru bari kwitabwaho bahabwa imiti igiye itandukanye bakaba bicaye mu busitani ku ruhande hari izindi nyubako.

Abamama bicaye hamwe, imbere yabo kumeza hakaba hateretse amacupa y'amazi yo kunywa ndetse bashyizeho na terefone zabo ngendanwa, bakurikiye uri imbere wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Aba mama batatu bigaragara ko bageze mu zabukuru, bose bateze ibitambaro ndetse bafite n'inkoni mu ntoki zabo, uri imbere akaba ateruye n'umwana uri ko nka, inyuma y'abo hari ibiti n'ibimera bitandukanye.

Umumama wicaye ku musambi, akaba yicaranye n'abana be babiri, umwe aramuteruye ndetse yambaye igitambaro gisa oranje mu mutwe, imbere yiwe hakaba hari inkoko iriho ibishyimbo n'agasorori gatukura.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, akaba ari guseka yambaye agaseri kari mu ibara ry'umukara ndetse n'ikoboyi yazinze ku maguru yicaye mu ntebe inyuma ye hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abana bagiye batandukanye bari hamwe benshi bari guseka abandi bari gukoma amashyi, bambaye imipira iri mu mabara y'umuhondo ndetse bamwe muri bo bafite utuntu tw'umweru ku mutwe bakaba bahuriye ahantu hamwe.

Umukobwa uri mu iduka acururizamo yambaye ijire iri mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko ajya anacuruza amainite ndetse ku ruhande inyuma ye hakaba hari ibirungo bigiye bitandukanye bakoresha bateka.

Abaturage batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore n'umwana bicaye ku ntebe z'urubaho, inyuma yabo hakaba ari inzu ifunguye yubakishijwe ibyondo, ndetse ku ruhande rwabo hari n'ibihingwa bitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bagiye bafite ibyapa mu ntoki zabo ndetse hakaba hari n'icyapa bahagaze imbere kinini, ku ruhande rwabo hakaba hari ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane bari hamwe, hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bamwe barahagaze abandi baricaye. Inyuma yabo hakaba hari inzu imanitseho icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru. Ku ruhande hakaba hari ibiti.

Umumama wambaye imyenda yo mu bitenge, yicaye ku gatebe k'urubaho. Imbere ye hakaba hari ikirago ndetse inyuma ye ku gikuta cyarasenyutse hariho n'idirishya riri mu ibara ry'umukara rituma urumuri rwinjira mu nzu.

Abantu benshi bari mu muhanda higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Harimo abambaye imipira irimo ibara ry'icyatsi n'umugabo uri imbere ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri kugenda avuga. N'abandi bafashe icyapa mu ntoki zabo cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Abamama bicaye hamwe bafite abana babo bateruye, bakaba bari kugirwa inama n'umukobwa wundi ukiri muto ufite imbere ye ku meza telefone ngendanwa, ndetse ku ruhande hari icyuma gikonjesha ibiribwa n'ibinyobwa.

Icyumba cyicayemo ababyeyi bagiye batandukanye, harimo abahetse abana n'abandi badafite abana, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, bakurikiye umugabo uri imbere uri kugira icyo ababwira, ku meza ateretse imbere hateretseho agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe, bakaba batuje bigaragara ko bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari umumama uhagaze inyuma ye hakaba hari insakazamashusho nini.

Umumama wambaye imyenda yo mu bitenge, akaba ahagaze ahantu hacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo nk'amavuta, uburoso bw'amenyo bwo kwiborosa ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi

Abanyeshuri benshi bari hamwe bigaragara ko bakiri bato. Bambaye amashati y'ubururu ndetse harimo n'abambaye aya kaki. Ni benshi cyane bagiye bazamura ibiganza byabo ubona ko bishimye, inyuma yabo hakaba hari ibendera rizamuye.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abamama ndetse n'umugabo umwe wicaye imbere yabo bicaye ku ntebe z'urubaho abamama bafite ibipapuro mu ntoki zabo ndetse inyuma yabo hakaba hari n'insina z'ibitoki.

Abaturage benshi bagiye batandukanye bicaye mu nyubako nini, bakaba bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, hari abamama babiri bari imbere, umwe ufite indangururamajwi n'agasakoshi mu ntoki ndetse ku gikuta hari insakazamashusho.

Abaturage bagiye batandukanye bahagaze ku murongo harimo abagore ndetse n'abagab,o abari imbere bari kwipima ibiro ndetse n'uko bareshya hakaba hari n'abandi bambaye amataburiya y'umweru bari kubafasha muri icyo gikorwa.

icyumba bigaragara ko ari kwa muganga hasi hakaba hari amakaro asa ibara ry'umweru imbere hakaba hari igitanda kinini baryamishaho umuntu urwaye ndetse n'agatebe kicarwaho na muganga ari gusuzuma umurwayi

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari igitebe kinini bagira igitanda bakaryamishaho umuntu urwaye ndetse n'ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umumama uri kumwe n'umwana we bombi bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, ndetse bambaye udusengeri tw'umweru, umumama ari kwigisha umwana we uko bakorera amenyo isuku bakoresheje uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo.

Abagabo babiri bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye iy'ubururu bakaba bambaye udupfukamunwa bari kuvura umudamu uryamye bigaragara ko bari kumuvura amenyo.

Abana benshi bagiye batandukanye, harimo abahungu ndetse n'ab'abakobwa bari mu cyumba cy'ishuri, bamwe baricaye abandi barahagaze, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki zabo, ndetse hakaba harimo n'undi mukobwa mukuru uri kumwe nabo.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye amarinete amufasha kureba neza, mu biganza bye akaba afite akantu karimo imiti igiye itandukanye ndetse imbere ye hakaba hari robine n'uburoso bw'amenyo.

Umwana wasamye bigaragara ko bari kumukura amenyo, uri kuyamukura yambaye i ga z'umweru, itaburiya y'umweru ndetse mu biganza bye afite udukoresho tubiri ari kwifashisha akura uwo mwana iryinyo.

Inyubako ndende cyane, iri mu mabara agiye atandukanye nk'icyatsi ndetse n'andi, ifite amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo n'andi yandikishijwe ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza, ikaba ikorotirijwe n'igipangu.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kikaba kirimo ibikoresho bye bitandukanye bikeye ndetse n'intebe zo kwicaraho bari gukora ubushakashatsi naho bakarabira intoki hakaba hari n'umutako umeze nk'igiti.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye hamwe ku ntebe zikozwe mu mbaho, bakaba barimo abagore n'abagabo, bakaba bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko umwe muri bo ari kuvurwa amenyo, ndetse abandi barategereje ko bagerwaho.

Umukobwa n'umuhungu bahagaze hamwe. Bose bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru ndetse bafite utugozi twabugenewe bari kunyuza mu menyo bayoza. Imbere yabo hakaba hari indorerwamo bari kwirebamo boza amenyo.

Umudamu ufite imisatsi imanuye, akaba afite uburoso bw'amenyo mu ntoki ze, bigaragara ko ari kwiborosa, yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umweru, ndetse imbere ye hari indorerwamo ari kwireberamo uko yiborosa.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'ibindi, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, ku rukuta hejuru hamanitse insakazamashusho, ndetse aho hantu hakaba hari ibitanda baryamishaho abantu baje babagana barembye.

Umugabo uryamye kwa muganga wambaye agapira k'icyatsi. Akaba yasamye bigaragara ko yaje kwivuza amaso. Umuganga uri kumwitaho yambaye itabuririya, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'uturindantoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'igitanda baryamishaho umurwayi ndetse n'intebe yo kwicaraho, ku ruhande hari izindi mashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Umugabo wicaye ku gatebe gatoya yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari mu cyumba cyo kwa muganga ku ruhande rwe hari ikindi gitanda kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, cyifashishwa baryamishaho umurwayi hakaba hari n'izindi mashini zifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Hakaba harimo igitebe kinini baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho n'akandi gatoya umuvura aba yicayeho.

Abamama babiri bicaye ahantu hamwe, umwe yambaye ikote ry'ubururu undi yambaye iry'umutuku, bose mu biganza byabo bafitemo ibipapuro ndetse imbere yabo kumeza ahari hateretse amacupa y'amazi yo kunywa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bageze mu zabukuru umwe ni muremure undi ni mugufi, bafatanye ku rutugu ndetse umwe muri bo yambaye ingofero, bari kugenda ahantu hakikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire.

Umu mama ugeze mu za bukuru uri kwitabwaho n'undi mudamu, uwo mudamu yambaye agapfukamunwa ndetse mu ijosi rye afite agakoresho bifashisha kwa muganga bapima uko umutima utera, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire n'ubusitani.

Umumama ugeze mu zabukuru, afatishije ikiganza ikirahure kirimo amazi yo kunywa ndetse hari undi mukobwa wambaye ishati y'ubururu uri kumuhereza ibinini kugira ngo anyweshe ayo mazi. Ku ruhande hakaba hari ivaze irimo indabyo.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye ikabutura ndetse ari gukina n'akana ke gafite umupira mu ntoki, inyuma y'aho bari gukinira hari inyubako ndetse hari n'ubusitani bugiye burimo ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo ugeze mu za bukuru wicaye mu ntebe ndetse akaba yambaye ishati y'ubururu , yambaye n'agapfukamunwa .Uri kumwitaho ni umukobwa wambaye ishati y'icyatsi bose bambaye udupfukamunwa.

Abantu batatu; umusore, umukobwa ndetse n'undi mumama ugeze mu zabukuru. Umusore afite isahane mu biganza bye iriho ibiribwa bitandukanye ndetse umukobwa ari kumwaruriraho n'ibindi

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru na marinete akaba ari kumwe n'umusore wundi ukiri muto bari guseka barishimye, bakaba bafite igitabo bari kurebamo imbere yabo hari ibirahure birimo icyayi bari kunywa.

Umumama ugeze mu zabukuru uri kumwenyura ndetse imisatsi ye yose ikaba yarabaye umweru, ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri mutoya amukoresha imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rwabo hakaba hari amadirishya azana umucyo mu nzu.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite imisatsi yabaye imvi, akaba yambaye amarinete ari guseka, yicaye mu kagare k'abamugaye cyangwa se abageze mu za bukuru, ari kwitabwaho n'umukobwa uri kugenda amusunika mu kagare bakaba bari mu busitani.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wicaye ku ntebe, kuhande rwe hakaba hari undi mugabo, bigaragara ko ari umuganga, wambaye itabura y'umweru, mu biganza byabo bafashe igipapuro, bari kureba aho ari kumubwira uko yakwita ku buzima bwe.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu n'ikabutura y'umukara, akaba ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara. Inyuma yabo hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bigishirizaho abageze mu za bukuru kugenda.

Umumama ugeze mu za bukuru, wambaye agasengeri k'ubururu, ipantaro y'umukara, akaba ari gukora siporo ngororamubiri, inyuma ye hakaba hari itara rigezweho, ndetse n'intebe yo kwicaramo irimo imisego.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye amarinete ari guseka ari kumwe n'umumama na we ushaje bari ku meza ariho amasahane agiye atandukanye, ariho ibyokurya biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umumama ugeze mu zabukuru ubonako yishimye cyane ari guseka, yambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru ndetse mu kiganza kimwe afitemo ikanya, ikindi afite isahane iriho ibyo kurya bitandukanye.

Umumama ugeze mu za bukuru, ufite imisatsi myinshi imanuye, akaba yambaye amarinete ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umuhondo, afite agacupa karimo ibinini arikubisuka ku biganza bye kugira ngo abinywe,

Umugabo ndetse n'umumama bari kumwe barambikanyeho imitwe, bari gufata agafoto, umugabo afite akumvirizo mu ijosi rye ndetse umugore mu ntoki afashe inkoni imufasha kugenda kubera ko ageze mu za bukuru.

Abamama babiri batandukanye bageze mu zabukuru, bakaba bari guteka ifunguro, imbere yabo hari ibiribwa bigiye bitandukanye bari gutunganya, birimo nka pavuro, inyanya ndetse ku gikuta hamanitseho isaha.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'umweru imbere ye ku meza hakaba hari amasahane ariho imbuto zigiye zitandukanye. Ndetse hari n'umudamu uri kumusukira umutobe mu kirahure usa umuhondo.

Abagabo babiri bari muri siporo, bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru. Bafite uducupa tw'amazi mu ntoki zabo yo kunywa mu gihe bananiwe. Ndetse ku ruhande bakaba bakikijwe n'ibiti birebire n'ubusitani bwiza cyane.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru, imbere yabo bafite ibipapuro byinshi bigiye bitandukanye bari gusoma, ndetse umugabo mu ntoki ze afitemo telefone ngendanwa, inyuma yabo hakaba ari intebe zo kwicaramo.

Umugabo ugeze mu za bukuru imisatsi ye yabaye umweru akaba yambaye n' marinete amufasha kureba neza. Mu ntoki ze afite agakoresho bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwitabwaho n'umukobwa.

Abaturage benshi bari hamwe higanjemo abageze mu za bukuru, bambaye imyenda y'ibitenge, ni abamama inyuma hakaba hari intebe z'umweru, zo kwicaraho ndetse inyuma yabo cyane hari insina z'ibitoki.

Umumama ugeze mu za bukuru, uri kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro iri mu bururu bwijimye ndetse n'umupira w'umweru. Akaba ari kumukoresha udusiporo duke duke kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wicaye mu kagare k'abamugaye cyangwa abageze mu zabukuru. Yambaye umupira w'umuhondo ndetse ari kumwe n'akana, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha bakina imikino yo kuri mudasobwa.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru bigaragara ko imisatsi yabo yose yabaye umweru, bakaba bari gukina udukino dutandukanye, umugabo yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu n'aho umudamu yambaye uri mu ibara ritukura.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye ishati akaba afite telefone ngendanwa mu ntoki ze, yicaranye n'umumama ukiri muto wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo ku meza hari akandi gakoresho k'ikoranabuhanga gasa umukara.

Umu mama ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare k'abatabasha kugenda neza, akaba ari kwitabwaho n'umu mama wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu akaba yicaye mu ntebe irimo umusego, ku gikuta hasizeye amarangi y'umweru.

Umugabo bigaragara ko ageze mu za bukuru afite imisatsi yabaye umweru akaba ari kumwenyura, afite isahane irimo ibyo kurya ndetse ari kugenda yarura ku meza hateretse n'igikombe kirimo amazi yo kunywa.

Umugabo ugeze mu zabukuru imisatsi ye yajemo imvi, ndetse yambaye umupira w'ubururu, afashe n'akuma mu ntoki kifashishwa bari gukora siporo, uri kumwitaho ni umumama wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe. Hakaba harimo abicaye hasi ndetse n'abicaye ku ntebe. Hakaba hari n'utwana turi kumwe nabo. Umugore umwe muri bo ari kuboha igitebo, ndetse bicaye ahantu mu busitani bunini. Inyuma yabo hakaba hari amazu.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru imisatsi yabo yabaye umweru, umugabo afite terefone ngendanwa mu ntoki hari ibyo aba ari kureba ndetse imbere yabo ku meza hateretse uducupa turimo imiti n'ikirahure kirimo amazi.

Abaturage bagiye batandukanye bageze mu za bukuru ndetse n'abasore n'inkumi hakaba hari abamama babiri bari imbere bakenyeye bya Kinyarwanda ndetse bafite inkoni mu ntoki zabo zibafasha gutambuka neza.

Umumama ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'umweru, imbere ye afite ibintu ari gukata bigaragara ko ari imboga, zirimo nk'amashu karoti n'inyanya ndetse ku ruhande rwe hicaye undi mukobwa ufite igisorori cy'ikirahure mu ntoki ze.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru imisatsi yabo yabaye umweru bakaba imbere yabo ku meza hateretseho ibintu bitandukanye harimo amarinette igikombe ndetse n'uducupa turimo imiti.

Umugabo n'umugore bose bageze mu zabukuru, umugabo yambaye umupira w'ubururu naho umudamu yambaye umupira utukura, ari kumwereka ku rupapuro uko azajya afata imiti ye neza ndetse imbere yabo hari igikombe cy'amazi yo kunywa.

Umugabo ugeze mu za bukuru bigaragara ko n'imisatsi ye yabaye umweru yose, yambaye amarinete amufasha kureba, ndetse akaba afite ikaramu mu biganza bye, imbere ya hari ikayi ari kwandikamo, inyuma ye hakaba hari imitako itandukanye.

Umumama ugeze mu zabukuru wicaye hasi, ateze igitambaro mu mutwe ndetse imbere ye hakaba hari amashyiga ateretseho inkono ipfundikije akandi gasafuriya, ari gucana umuriro iruhande rwe hakaba hari ibindi bintu by'ibyatsi byinshi.

Umumama ugeze mu zabukuru, ufite isai mu ntoki ze, akaba afite n'ikanya. Yambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ari kumwenyura cyane. Inyuma ye hakaba hari akabati kari mu ibara ry'umweru kabikwamo ibikoresho byo mu gikoni.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'umweru, ari kwitabwaho n'umudamu ukiri muto wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse mu biganza bye afite agakoresho kifashishwa bari gukora siporo.

Umumama ugeze mu zabukuru akaba ari kwitabwaho n'undi mukobwa wamufasheho, wambaye ishati y'ubururu n'agapira k'umweru, impande yabo hakaba hari intebe zo kwicaramo ndetse ku bikuta hasize irangi risa umweru.

Umumama ugeze mu zabukuru yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara ndetse ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto, mu ntoki ze afite akuma kifashishwa bakora siporo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Umu mama uri kumwe n'umwana we bicaye imbere ku meza hakaba hariho utuntu tugiye dutandukanye bigaragara ko ari umukino bari gukina, inyuma yaho hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bindi byo mu nzu.

Abantu benshi bari hamwe bambaye imipira yiganjemo ibara rya pinki harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye agapfukamunwa ndetse imbere kumeza hateretseho ibintu by'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe bigaragara ko hari kubera inama, bakaba bakurikiye abandi bari imbere batatu harimo abagore babiri n'umugabo umwe, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo agiye atandukanye.

Abantu bagiye batandukanye benshi bicaye ahantu hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari abandi bahicaye bari kubagezaho ijambo, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye neza, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, baratuje bakurikiye ibiri kuvugirwa aho ngaho hari kubera inama, ndetse inyuma yabo hari ibikuta biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye ikote, umwe yambaye amarinete ndetse bafite ibipapuro mu ntoki zabo, bari gusuhuzanya, inyuma yabo hakaba kari icyapa cy'umweru, kigiye kiriho ibirangantego by'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore uri guterwa urushinge bigaragara ko ari guterwa urukingo, akaba yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, inyuma ye hari undi muntu uhagaze wambaye ishati irimo utubara tw'umuhondo n'umukara.

Abantu benshi cyane bari hamwe ubona bishimye, abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru ndetse n'abagabo n'abagore, abari imbere bafashe icyapa kinini cyanditseho amagambo, ku mpande zabo bakikijwe n'ibiti birebire.

Abaturage benshi bateraniye hamwe bigaragaza ko bahagaze ku murongo bari gufata ifoto, ni abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bahagaze imbere y'icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu. Inyuma yabo haparitse imodoka y'umweru.

Umuntu uryamye ku gatanda bashyiraho umuntu umeze nabi. Akaba ari kwitabwaho n'abandi bantu batandukanye bambaye amataburiya y'umweru n'abambaye amajire y'icyatsi, bari munsi y'igiti kinini.

Ibiribwa bigiye bitandukanye biri hamwe bikubiyemo imboga hamwe n'imbuto, mu mboga harimo inyanya, karoti ndetse n'ibitunguru by'amababi, imbuto hakaba hari imineke n'ibindi.

Abantu bagiye batandukanye benshi cyane bari mu muhanda nyabagendwa, higanjemo abambaye imipira y'umweru, ndetse ku mpande zabo hakaba hari ibiti n'inyubako, abari imbere bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru, bafashe igikarita kinini cyanditseho amagambo atukura, bari kwamamaza uburyo bwo kwirinda mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bakurikiye abandi bantu bari imbere barimo abagore ndetse n'abagabo bari kubagezaho ijambo. Hakaba hari umudamu ufashe indangururamajwi uri kugira icyo ababwira.

Aba mama bagiye batandukanye, benshi muri bo biteze ibitambaro mu mutwe, ndetse bose baturuye abana babo mu biganza. Inyuma ku gikuta hakaba bamanitse amashusho agiye atandukanye, agaragaza uko ababyeyi bakwita ku bana babo.

Abantu batandukanye bigaragara ko bari mu cyumba kiberamo inama harimo abadamu ndetse n'abagabo hari abicaye n'abahagaze inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'amabendera abiri.

Abantu bari mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere hari abagabo babiri bahicaye ndetse bafite indangururamajwi zibafasha kumvikanisha ijwi ryabo, umwe muri bo afite mudasobwa imbere ye ndetse hari n'uducupa tw’amazi.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama, akaba yiganjemo ab'igitsina gore ndetse bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru, bakurikiye uri imbere ufite indangururamajwi uri kubagezaho ijambo.

Abaturage bagiye batandukanye, bigaragara ko bari guhabwa ubufasha ku bijyanye n'ubuvuzi. Hakaba hari abari kubitaho bambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umweru ndetse bari kubatera urushinge ku ntoki.

Umugabo uri mu nama ari gutanga ijambo ndetse, ku ruhande rwe hakaba hateguwe intebe eshatu ziri mu ibara ry'umukara, n'utumeza turiho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hari n'ikindi gisakazamashusho kinini kiri kumugaragaza wese.

Abantu bagiye batandukanye bigaragara ko harimo abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imyenda iri mu ibara risa ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru. Imbere yabo hakaba hari igitanda kiryamyeho umuntu, bigaragara ko bari kumuvura.

Abantu bagiye batandukanye bari hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze bose bafite utuntu mu ntoki zabo inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cy'umweru kiriho amabara y'umutuku n'umuhondo.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, bakaba bahagaze ahantu hamwe, bose bambaye utuntu mu ijosi tugaragaza abo ari bo, inyuma yabo hakaba hari ibyapa binini byanditseho amagambo.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe biganjemo abakobwa. Bakaba bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru ,hari n'abandi bicaye imbere bambaye iy'imikara. Ku meza ahari hateretseho mudasobwa.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari igitebe kinini kiri mu ibara ry'ubururu bashyiraho umurwayi n'akandi gatebe kari mu ibara ry'umukara gatoya.

Inyubako iri ahantu heza cyane yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari ubusitani bugiye buteyemo ibiti by'amoko atandukanye, ndetse hari n'ahandi hashinze ibyicungo by'abana.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye no mu mabara atandukanye, hari iby'ubururu n'iby'umukara. Aha ngaha hakaba hakorerwa imyitozo ngororamubiri ku bantu bashaka kurambura imibiri yabo.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, baryamishaho abarwayi kugira ngo babasuzume hamenyekane ikibazo bafite ndetse n'izindi mashini zigiye zitandukanye bifashisha mu buvuzi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere y'iyo nyubako, hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari inzu y'ababyeyi. Hanze yayo, hakaba hateretse intebe ndetse hari n'umugabo uri kugenda.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byinshi byaba ibiteretse hasi n'ibimanitse bikaba byifashishwa mu buvuzi, ku meza aho ari hakaba hagiye harihoho mudasobwa ndetse hakaba hari n'intebe zo kwicaraho.

Icyumba bigaragara ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ku gikuta hasize amabara y'umweru ndetse hakaba hari n'ahantu baryamisha umurwayi kugira ngo asuzumwe n'izindi mashini zigiye zitandukanye, zifashishwa mu buvuzi.

umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yambaye ku mabuye yubatse munsi yigiti kinini cyane ndetse impande yicyo giti hakaba hari n'inyubako zigiye zitandukanye n'ubusitani bwiza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye biri hamwe, hakaba harimo intebe n'ibindi byuma, ku gikuta hamanitseho isaha ndetse n'ifoto hejuru kuri parafo hariho isakazamashusho.

Inyubako iri imbere mu gipangu iri mu mabara atandukanye, biragaragara ko hari abantu benshi bagiye batandukanye bayiri imbere ndetse hanze y'ikicyo gipangu hakaba hari icyapa cyanditseho Gisenyi n'igare rihetse umuntu.

Inyubako ndende igeretse iri mu mabara atandukanye umukara n'umweru, ikaba ifite uruzitiro rwiza. Inyuma yayo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye kiri mu mabara y'umweru na oranje.

Inzu ndende cyane igiye ifite amadirishya, hakaba hari ibitanda bigiye bitandukanye, bigiye bitandukanijwe n'amarido ari mu ibara rya oranje bigaragara ko ari kwa muganga, aho bashyiraho abarwayi barembye.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru hasi hari amakaro y'umweru ndetse hari n'ikimashini kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru bigaragara ko hari icyo baryamishaho umurwayi kugira ngo bamusuzume hamenyekane ikibazo afite.

Icyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri . Hakaba harimo n'ibyuma byifashishwa bari gukora izo siporo . Hari ibyo baterura mu biganza, ibyo batwara nk'igare ndetse n'ibindi birukankaho. Ku gikuta hakaba hamanitseho isaha.

Icyumba bigaragara ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari n'ibitanda biri mu ibara ry'umuhondo baryamishaho umurwayi kugira ngo asuzumwe hamenyekane ikibazo afite hanyuma ahabwe imiti.

Inyubako nini iri mu mabara y'umweru, imbere yayo hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse ikaba ifite n'igisenge kiri mu mabara y'ubururu, hahagaze umugabo wambaye taburiya ndetse imbere yayo hari n'ubusitani.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu. Hakaba hari abantu bagiye batandukanye baje bahagana, kubera ko ari ikigo nderabuzima cya Matyazo. Hirya yaho hejuru hakaba hari ikigega gisa ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari igitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'imisego, ku gikuta hamanitse ifoto nini ishushanyijeho ururabo.

Inyubako zirimo imbere ndetse n'ubusitani zikorotiriwe n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, hakaba hari icyapa kimanitse cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri.

Inyubako ndende ifite ibirahure biri mu ibara ry'ubururu, hejuru yayo hakaba hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi ndetse munsi y'aho hanyuma umuhanda wa kaburimbo hari n'ibiti birebire cyane by'ibara ry'icyatsi.

Icyumba gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragaza ko ari icyumba gikorerwamo ubuvuzi, ku rukuta hashushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye bigaragaza ko ari ivuriro ry'abana.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikaba bigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga, harimo ibitanda baryamishaho abarwayi barembye n'izindi mashini zifashishwa mu buvuzi ku gikuta hamanitseho ibyuma byongera ubushyuhe cyangwa bikazana ubukonje.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba harimo ibyo bajyaho bakirukanka ndetse n'ibindi baterura mu biganza hamwe n'ibindi baryamaho.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore n'abandi bahetse abana bakaba bari ahantu bakirira abagana ikigo nderabuzima bigaragara ko baje kwivuza bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Inyubako ndende hejuru yayo hariho iminara igiye itandukanye ndetse n'ikigega cy'amazi, munsi yayo haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hateye n'ibiti, ku marembo hari icyapa kinini cy'umweru.

Inyubako irimo ama etajeri menshi ateretsemo udukarito ndetse n'ibindi bimeze nk'ibikopo bigaragaza ko hacururizwa imiti y'amoko agiye atandukanye, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byinshi byifashishwa mu buvuzi, ndetse hari n'igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo bamusuzume hamenyekane indwara arwaye.

Inyubako igeretse munsi yayo hakaba hari abaturage benshi bagiye batandukanye bahagaze, ndetse ruguru yaho hakaba hari ubusitani burimo n'ibiti ku ruhande haparitse imodoka mu mapave.

Inyubako ndende cyane igiye ifite amagorofa atandukanye hakaba hari amayesakariye abantu bazamukiraho bajya mu nyubako zo hejuru, munsi y'iyo nyubako haparitse ibinyabiziga bitandukanye imodoka n'ipikipiki.

Inyubako ndende iri mu mabara y'umweru, ikaba yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hari umugabo uri kumanuka ku madarage ahari wambaye ishati itukura, hateye ibiti birebire ndetse hari n'ubusitani.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari inzu y'ababyeyi.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibitanda baryamishaho abantu barwaye kugira ngo bitabweho, ndetse hakaba hari n'amarido ari mu ibara ry'icyatsi agiye atandukanya ibyo byumba.

Abantu batandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abasore, bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru, n'uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu. Bakaba bari ahantu, imbere yabo hateretse amavuta ari mu icupa ryayo.

Icyumba kirimo imitako igiye itandukanye ku rukuta ndetse n'amabara y'icyatsi, hakaba hari n'ibimashini bindi binini biri mu ibara ry'umweru n'igitanda bigaragara ko baryamishaho umuntu urwaye kugirango asuzumwe.

Icyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hari umuntu uharyamye ubyibushye cyane wambaye agapfukamunwa, ndetse bigaragara ko arembye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'ibitanda baryamishaho abarwayi barembye, kugira ngo bitabweho bakire, ndetse ku ruhande hakaba hari n'agatanda kandi batwaraho ibyo kurya.

Inyubako ndende igeretse ikaba ifite ibigega hejuru biri mu ibara ry'umukara, munsi yayo haparitse ibinyabiziga mu marembo yinjira muri iyo nyubako, hakaba hari gusohoka imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rw'aho hakaba hari ubusitani bushinzemo ipoto y'amashanyarazi ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, bigaragaza ko aho ngaho ari ku bitaro.

Umudamu uhagaze uteruye umwana inyuma ye hakaba hari uwundi wambaye amarinete n'imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, birasa nkaho bari kwa muganga uno mu mama amaze kubyara akana barishimye cyane.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye ziri ahantu hamwe hakaba hari ahantu haparitse ibinyabiziga biri m'ibara ry'umweru ndetse n'ubusitani bwiza burimo indabyo z'umuhondo n'ibiti birebire bizana amahumbezi aho hantu.

Inyubako imanitse y'icyapa kinini cyane igaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe hakaba hari amadarajya ayizamukaho ndetse yubakishijwe ku ruhande n'amabuye he hepfo yaho hashashe amapave.

Inyubako ndende igeretse kenshi, ikaba imanitseho icyapa kigaragaza ko aho ngaho hari ubucuruzi bw'imiti, munsi y'iyo nyubako hakaba haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'imitako y'ibiti imbere yayo.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, hakaba hari uburiri busashe ndetse n'izindi mashini ziri ku ruhande zifashishwa mu buganga, ku gikuta hamanitse ishusho nini iriho imbuto zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende igeretse ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. iIsize amarangi ari mu ibara ry'umweru ndetse ifite amadirishya arimo ibirahure. Inyuma yayo hari abantu benshi bagiye batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore.

Icyumba kigiye kirimo ibitanda bigiye bitandukanye bishasheho amashuka y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari amarido ari mu ibara ry'umweru atandukanya ibyo bitanda ndetse hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buganga.

Inyubako igeretse hejuru y'iyo nyubako hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi agaragaza ko ari ibitaro, imbere y'inyubako hari amabendera atatu amanitse hagati hakaba arimo ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba kirimo ibikoresho bye bitandukanye bikubiyemo ibitanda, bigaragaza ko ari kwa muganga hakaba hari n'inzitiramibu zimanitse, hari amarido ari mu ibara ry'ubururu atandukanya ibyo bitanda.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, ku gikuta haba hashushanyijeho ibishushanyo bya'amaso, biragaragara ko bavura amaso, ku ruhande hari intebe yo kwicaraho ndetse n'amezaza ateretseho mudasobwa.

Abaganga bagiye batandukanye bari hamwe bigaragara ko bari muri shitingi nini y'umweru, hakaba hari abandi baturage baje kwivuza aho bari gufashwa, hari uwo bazamuye akaboko bigaragara ko bagiye kumutera urushinge.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'akandi gatebe gatoya kariho ibara ry'ubururu kicarwaho n'umuntu, ku bikuta hakaba hasize amabara atandukanye ashushanyijeho n'ibindi bintu bigaragaza ko ari ibitaro by'abana.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kikaba kirimo abadamu batatu, babiri ni abaganga ndetse n'undi muntu bigaragara ko yaje kwivuza, umwe mu baganga yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu afite ibitabo mu ntoki ze.

Abamama bane bahagaze hamwe. Bose bambaye imyenda iri mu ibara rimwe, bigaragara ko ari abaganga. Bose kandi bakaba bambaye udupfukamunwa. bahagaze imbere y'inyubako ndende ,yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirekire cyane kigiye kirimo ibitanda bitandukanye, akaba ari ibitanda byifashishwa baryamishaho abantu barembye, kugira ngo bazahave bamaze gukira hejuru y'ibitanda hakaba hari inzitiramibu.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ikaba yandikishijeho amagambo imbere agaragaza ko ari ku kigo nderabuzima cya Gishweru, imbere y'iyo nyubako hahagaze abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'umugore.

Abaturage batandukanye bicaye, harimo abageze mu za bukuru ndetse n'abakiri batoya. Imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ikote uhagaze; ndetse inyubako barimo iriho n'ikibaho, bigaragaza ko ari ishuri.

Abantu benshi bahagaze higanjemo abagabo ndetse n'abagore harimo n'abanyamahanga, umudamu umwe arasutamye, bakaba bari kwifotoreza ku kibumbano kinini kiri aho mu busitani buhari, ku ruhande rw'abo hakaba hari inyubako.

Ahantu hari inyubako za kijyambere zubatse neza kandi zigezweho, hakaba hari ubusitani bwiza cyane buconze n'indabo nziza, hamanitsemo amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Ahantu hateguye neza bigaragara ko ari mu nyubako igeretse, hakaba hari amatara yaka neza mu ibara ry'umweru ndetse n'ibikuta biriho imitako igiye itandukanye n'intebe ziteguye neza zo kwakiriraho abaje babagana ziri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amabara y'umweru, hakaba harimo n'imashini zifashishwa mu buvuzi, imbere hari ikimashini kinini cy'umweru baryamishaho umurwayi, kugira ngo asuzumwe hamenyekane ikibazo afite abone kwitabwaho.

Inyubako ndende cyane yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza cyane bushinzemo idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara atandukanye; umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi hakaba hari n'ikimashini kinini kiri mu ibara ry'umweru baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho hamenyekane indwara arwaye.

Inyubako yubakisha amatafari ahiye ifite amadirishya asize amarangi y'umweru, hejuru y'idirishya handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, hari n'ikindi kimashini kinini kiri mu ibara ry'umweru, baryamishaho umurwayi kugira ngo asuzumwe hamenyekane ikibazo afite.

Inyubako ndende imbere yayo hariho idarapo rirerire ndetse hanze y'igipangu hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye, hakaba hari n'akazu k'umuhondo k'isosiyete ya MTN.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, bambaye utunozasuku mu mutwe turi mu ibara ry'icyatsi, ndetse ku gitanda hakaba haryamyeho umuntu bigaragara ko ari kuvurwa, hakaba hari n'ikimashini kindi kinini cy'umweru kiri kwifashishwa muri ubwo buvuzi.

Icyumba gisize amabara y'umweru. Ndetse kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utumeza batwararaho ibyo kurya cyangwa imiti n'intebe zo kwicaraho ndetse n'igitanda baryamishaho umurwayi.

Umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'amarinete ari kumwenyura, ndetse ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, yamushyize ikintu cy'umukara ku kuboko ari kumupima.

Icyumba gitoya cyegeranye, kikaba kirimo akabati bashyiramo ibikoresho bitandukanye ndetse n'igitanda cy'umukara baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho hamenyekane ikibazo afite.

Ahakorerwa siporo, hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba ari ibyo baterura mu biganza, ibyo batwara nk'amagare ndetse n'ibindi bajyaho bari gukora amaboko.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye hakaba hari ifite igisenge cy'ubururu ikaba iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani burebure burimo igiti kikiri gitoya gituma haza umuyaga n'amahumbezi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hariho igitanda kirambuyeho ishuka y'umweru baryamisheho umurwayi kugira ngo yitabweho, ku ruhande hari indi mashini birukankaho.

Inyubako isize amarange ari mu ibara ry'umweru, ikaba ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu. Imbere kuri iyo nyubako handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari ku kigo nderabuzima cya Shagasha.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kikaba kirimo abantu batandukanye bari gukora amasuku ndetse n'abandi bita ku barwayi. Hari ibitanda baryamishaho abantu barembye, ndetse n'amarido agiye atandukanya ibyo bitanda.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibitanda baryamishaho abarwayi, kugira ngo bitabweho. Ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo bavurwe. Hakaba hari n'amarido ari mu ibara ry'umukara, atandukanya ibyo bitanda.

Inyubako bigaragara ko ari kwa muganga, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye; nk'ibitanda n'utundi dukoresho dutoya. Kugikuta hakaba hamanitse ho isakazamashusho ndetse n'isaha.

Icyumba bigaragara ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda byo kwa muganga baryamishaho abarwayi barembye, n'izindi mashini zifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, hakaba har’umuryango ufunguye.

Inyubako irimo ibyuma bigiye bitandukanye, bikaba ari ibyuma byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri. Hakaba hari ibyo birukankaho kugira ngo batakaze ibiro, ibindi baterura ndetse n'ibindi baryamaho bagaterura.

Ahantu bigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga. Hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, biri mu ibara ry'ubururu baryamishijeho abantu kugira ngo bavurwe. Abari kubitaho bambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru n'udupfukamunwa.

Inyubako zigiye zitandukanye ziri ahantu hakaba hari abantu bagiye batandukanye bari kugenda ndetse n'imodoka ziparitse, hari umuntu ushinzwe umutekano uhagaze ndetse n'inkoni itambitse iri mu ibara ritukura n'umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye imbere y'iyo nyubako hakaba ari icyapa gishinze mu busitani kiriho amagambo menshi hakaba hari n'ipoto rirerire cyane ririho itara.

Abaturage benshi bagiye batandukanye higanjemo abageze mu zabukuru, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'iy'ubururu, bakaba bagiye bafite uducupa tw'amazi yo kunywa bari ahantu hatuje.

Uruganiriro rwiza cyane rukeye, ibikuta bikaba bisize amabara y'umweru, ndetse hakaba hari n'izindi ntebe zifite imisego ndetse zikozwe mu mbaho, n'ameza ari mu mabara atandukanye nk'umukara ndetse n'umweru, hakaba hari n'imitako imeze nk'ibiti.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye ndetse handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara agaragaza ko ari ku kigo nderabuzima, hejuru yiyo nyubako hariho ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga ndetse ikikijwe n'ibyatsi bitandukanye.

Inyubako ifite amarangi agiye atandukanye umukara ndetse n'umweru, ikaba ifite icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ikagira n'igisenge kiri mu mabara atukura, imbere y'iyo nyubako hari amabendera abiri maremare.

Inyubako iri mu mabara atandukanye ikaba ifite igisenge kiri mu mabara asa umutuku, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibyapa bibiri kimwe kirekire n'ikindi kigufi, ndetse hari intebe ziri mu ibara ry'umutuku zo kwicaraho.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'igitanda gihari baryamishaho umurwayi kugira ngo hamenyekane ikibazo afite yitabweho hakaba hejuru hari n'amatara yaka umweru.

Inyubako iri mu marange agiye atandukanye. Ikaba ifite n'amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza, yandikishije ibara ry'ubururu. Imbere y'iyo nyubako hateye ibiti by'amoko atandukanye kandi byiza, hari n'amapave.

Ibitanda byinshi bigiye bikurikiranye biriho matera ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse ku ruhande hakaba hari n'utundi tuntubtw'udusanduku babikamo ibintu bigiye bitandukanye, biragaragara ko ari kwa muganga aho bitaribwaho abarwaye.

Koridoro ndende cyane, bigaragara ko ari kwa muganga. Iri kumurikirwa n'amatara meza yaka ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'icyapa, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Hino hakaba hari umuryango urimo igikuta gisa umuhondo.

Inyubako igeretse ifite amabara y'umweru, ikaba imanitseho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza ko ahongaho hari iguriro ry'imiti ndetse munsi y'iyo nyubako haparitse ibinyabiziga bitandukanye byo mu mabara y'ubururu n'ay'umweru.

Umukobwa wambaye imyambaro iri mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari umuganga, akaba ari mu cyumba kigiye kirimo ibitanda bitandukanye, baryamishaho abarwayi kugira ngo basuzumwe, hamenyekane ikibazo bafite.

Icyumba bigaragara ko ari kwa muganga hariho irido rihakingiriza ndetse n'igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo asuzumwe hamenyekane icyo arwaye, ku ruhande hakaba hari n'imashini yifashishwa mu buvuzi.

Icyumba kirekire cyane kirimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari kwa muganga, akaba ari ibitanda barwanmishaho abantu barwaye, hejuru hari inzitiramibu ndetse inyuma hakaba hari ibindi bitanda nabyo byinshi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari icyo kwa muganga, hakaba hari n'ikindi kimashini kinini cy'ibara ry'umweru, bakoresha basuzuma umurwayi kugira ngo hamenyekane ikibazo afite.

Icyumba bigaragara ko ari aho bavurira abarwayi hazwi nko kwa muganga hakaba ari igitanda kirambuyeho ishuka y'umweru ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari gusuzuma ikibazo umurwayi afite.

Abantu bagiye batandukanye harimo n'abanyamahanga basuye abana ku ishuri, aho bigira hari ikibaho inyuma yabo cyanditseho bigaragaza ko bari bari kwiga ndetse hari n'undi mwana wambaye ishati y'icyatsi bigaragara ko ari umunyeshuri.

Abagabo babiri bari hamwe. Umwe yambaye amarinete, ndetse undi yashyize akaboko ku meza ari kwitabwaho. Inyuma ye hakaba ari icyapa kinini cyanditseho amagambo irembo, ndetse ku gikuta hamanitseho n'ibyuma byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Abantu bagiye batandukanye bari ahantu hamwe bose bambaye utunozasuku mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa. Bakaba bambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru. Bose uko bari aho ngaho imbere yabo hari ibimashini bigiye bitandukanye n'uducupa tw'umweru twinshi.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari n'igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo asuzumwe hamenyekane ikibazo afite ndetse n'isakazamashusho bareberamo ibiri gukorwa.

Inyubako ifite imiryango igiye itandukanye yanditseho amanimero. Ku ruhande hakaba hari akapa kagaragaza ibyerekezo bigiye bitandukanye. Ikizamuka ndetse n'igitambitse.

Inyubako irimo umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara, akaba ari kuzinga inzitiramibu iri mu ibara ry'ubururu. Imbere ye hakaba hari igitanda kiryamyeho umuntu, bigaragaza ko arwaye.

Icyumba bigaragara ko ari kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi ndetse n'ibitanda birambuyeho amashuka y'ubururu baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho akire.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bambaye ibisarubeti by'umweru bigaragara ko ari kwa muganga, hakaba hari ibitanda bigiye bitandukanye baryamishaho abarwayi barembye ndetse n'amarido abitandukanya ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gifite ibikuta bisize ibara ry'umuhondo hakaba hari igitanda kiryamyeho umumama uteze igitambaro mu mutwe, ku ruhande hamanitse inzitiramibu y'umweru ndetse n'umumama uri kumwitaho wambaye itaburiya.

Inyubako ifite icyapa kinini cy'umweru kimanitse hejuru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi agaragaza ko aho ngaho bacuruza imiti, bakaba hasi yaho haparitse n'ibinyabiziga birimo ipikipiki.

Inyubako ndende ndetse iriho n'icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Akaba hari umuryango ufunguye, bigaragara ko ucururizwamo imiti.

Inyubako irimo amatara acanye, ndetse bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye b'abaganga bambaye n'impuzankano zabo zibaranga, ku ruhande hari igitanda kiriho umurwayi uryamye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba yandiyandikishijweho amagambo, ari mu ibara ry'umukara .Handitseho Remera Rukoma .Kuri iyo nyubako hariho icyuma cy'umutuku, cyifashishwa mu kuzimya iyo haje inkongi y'umuriro.

Aho bakirira abantu baje babagana heza hari mu ibara ry'umweru ndetse hakabatatswe n'amatara meza amurika n'intebe zo kwicaza ho abaje babagana ziri mu ibara ry'ubururu hateguye neza.

Inyubako ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu, ikaba isize amarangi yumweru. Ifite uruzitiro runini, rwanditseho amagambo ari mu ibara ritukura. Inyuma y'iyo nyubako hari umumama uhetse umwana.

Inyubako isize amabara y'umweru ku bikuta hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hari ibyo baterura mu biganza, ibyo batwara nk'igare ndetse n'ibindi baryamaho.

Inyubako ifite icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza akaba ari mu ibara ry'icyatsi munsi yaho hakaba harimo abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga biparitse nk'ipikipiki.

Icyumba bigaragara ko ari igikorerwamo ubuvuzi. Hari imashini zigiye zitandukanye zifashishwa muri ubwo buvuzi ndetse n'igitanda kiri mu ibara ry'umukara. Hakaba hari n'indi mashini ikoreshwa birukanka.

Inyubako irimo imbere mu gipangu, ikaba yubatswe n'amatafari ahiye. Hateyemo ibiti ndetse hari n'amatara maremare cyane abonesha mu gihe cya nijoro. Ku gipangu handitseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye ikaba iriho utwapa dutoya ndetse n'ikindi cyapa kinini kiri hejuru cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, munsi y'iyo nyubako haparitse amamodoka atandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hakaba harimo intebe ndetse n'aho umuganga yicara. Bikaba bigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga, gisuzumirwamo abarwayi kugira ngo hamenyekane ikibazo bafite hanyuma bitabweho.

Abakobwa bagiye batandukanye bari hamwe bambaye imyenda isa yiganjemo ubururu n'udupfukamunwa bakaba bari imbere y'amagambo manini yandikishijwe mu rurimi rw'icyongereza ndetse ari mu ibara ry'icyatsi n'andi ari munsi y'umukara.

Abagabo babiri bari mu nyubako isize amarangi y'umweru ku bikuta. Imbere yabo ku meza hakaba hariho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi. Hari undi uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri gutunga agatoki ku gikuta.

Abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunoza suku mu mutwe, imbere ku meza bari hateretseho mudasobwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri hamwe, byifashishwa mu buvuzi. Hakaba hari uducupa turimo imiti, ibikoresho bashyira ku muntu wakomeretse ,ndetse n'uturindantoki turi mu ibara ry'umweru.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro imufashe, imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa ndetse akaba yicaye ku kintu kimeze nka matela kinini.

Ijage irimo amazi, bari kuyasuka mu kirahure giteretse, amazi akaba ari ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, kubera ko atuma umubiri ukomeza kugira imbaraga ndetse ukaba unasukuye.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo, ndetse hari uhagaze ku rwego bigaragara ko ari mu mirimo y'ubwubatsi, imbere yabo hakaba hari inyubako ifite amagambo ayanditseho hejuru ari mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ko ari ku bitaro.

Umugabo wambaye ishati imbere ye hakaba ari mudasobwa bigaragara ko ari kugirana ikiganiro n'abantu barebana, ku ruhande rwe hakaba hari ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Abantu babiri b'abagabo bateruye undi wambaye umupira w'umuhondo, abamuteruye bambaye amajire ari mu ibara ritukura, ndetse inyuma yabo hari abantu bahagaze bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru hari ibiti.

Igikapu kiri mu ibara ritukura gifite imishumi y'umukara, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, cyifashishwa mu gihe umuntu agize impanuka bitunguranye akaba yitabwaho mu gihe bategereje ubufasha bundi.

Icyumba kirimo ibikoresho bye bitandukanye byifashishwa abantu bakora siporo, hari ibyo birukankaho, hari ibindi bicaraho bakanyonga igare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bibafasha gukomeza amaboko no mu nda.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi yafungiye inyuma. Akaba yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umukara n'ikabutura. Ku ruhande rwe, hakaba hari intebe zo kwicaramo ndetse n'amarido y'umweru.

Umudamu uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye agasengeri k'umweru, ku ruhande rwe hari imbuto zigiye zitandukanye, umuntu ashobora kurya amaze gukora siporo, ubuzima bwe bukagenda neza, zikubiyemo imineke ndetse na pome n'izindi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi biteretse ahantu hamwe. Hakaba hari amacupa arimo imiti n'ibindi bikoresho bindi birimo ibyo bazirika ku muntu wavunitse agakira, hamwe n'imikasi.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba harimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga birimo akuma kagaragaza amashusho hariho n'umuntu, Inyuma ku ruhande hakaba hari igitanda kiriho abantu.

Ibyo umubiri ukeneye kugira ngo urusheho kumera neza, harimo amazi yo kunywa, ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye, n'agasiporo bikomeza gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imashini iri mu ibara ry'umweru. Akaba ari icyuma gikoreshwa kwa muganga bari gusuzuma umuntu kugira ngo hamenyekane ikibazo afite, abone guhabwa ubundi buvuzi bukubiyemo guhabwa imiti yo kunywa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mikino, hakaba ari ibyifashishwa mu mukino wa basikete uwa tennis ndetse n'uw'iteramakofe, n'akandi kuma bakoresha kwa muganga bumva uko umutima utera.

Amugabo wambaye imyenda ariko na siporo iri mu ibara ry'umukara, ari gukora siporo ngororamubiri, siporo akaba ari kimwe mu bintu bigize ubuzima bwa muntu bikenewe kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, mu biganza bye afashe ibyuma bifashisha bari gukora siporo, ndetse akaba ari kumwe n'umudamu ukiri mutoya uri kumwitaho, inyuma yabo hari imashini itanga amazi asukuye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga biri ahantu hamwe, hakaba hari ari uducupa tw'umweru tuba turimo ibinini, hakaba hari n'andi mashashi arimo ibikoresho bifashisha bapfuka k'umuntu wazanye igisebe.

Agasanduku k'ibara ry'icyatsi karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwihutirwa, iyo umuntu agize impanuka bamwitaho mu gihe bategereje ko ubufasha bw'ibanze buhagera.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, hakaba harimo uturindantoki tw'umweru, inshinge bakoresha batera abarwayi, ndetse n'ibinini bigiye bitandukanye n'indi miti y'amazi iri mu ducupa.

Umumama uri kumwe n'umwana we bakaba bicaye mu cyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, hakaba harimo n'ibindi bitanda biryamyeho abantu bagaragara ko barwaye, hejuru yabo hakaba ari inzitiramibu ziri mu ibara ry'umweru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri akaba yambaye agapira k'umukara ndetse inyuma ye hari ibindi byuma byifashishwa muri siporo akaba ari ahantu hari itapi isa ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa biri hamwe, hari ibyifashishwa muri siporo ngororamubiri, ibinini, imbuto zigiye zitandukanye, zirimo: nk'imineke, inanasi, ndetse n'amaronji.

Umukobwa wisukishije akaba ari kwambara agapfukamunwa mu isura, ndetse yambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, n'ishati yubururu, imbere ye ku meza hari amakayi atandukanye na mudasobwa.

Ibintu bigiye bitandukanye biri ahantu hamwe harimo ibyuma byifashishwa bakora siporo ndetse n'amazi yo kunywa ari mu icupa, hakaba n'imbuto zigiye zitandukanye nk'ironji ndetse n'ibindi na metero ipima uburebure.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga. Ku bikuta hakaba hasize irangi ry'umweru ndetse hakaba hari n'akabati babikamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari imashini nini baryamishaho umurwayi, bakamusuzuma, hakamenyekana ikibazo afite.

Icyumba kirimo amabara yiganjemo umweru, hakaba harimo igitanda kiri mu ibara ry'ubururu baryamishaho umuntu waje abagana arwaye kugira ngo yitabweho ndetse hakaba hari n'intebe yo kwicaraho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ibinini biri mu mabara agiye atandukanye nk'umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu bakaba babikozemo ishusho y'umuntu uri gukora siporo, ku ruhande hakaba hari urushinge rwifashishwa mu buvuzi.

Igikapu kiri mu ibara ritukura cyifashishwa mu buvuzi, gipakiye ibintu bigiye bitandukanye nk'imiti byifashishwa kwa muganga, hakaba harimo umukasi ndetse n'ibindi bazirika ku muntu wavunitse.

Ikiganza gifite ikaramu mu ntoki kiri kwandika ku rupapuro rw'umweru, imbere hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, hari iby'ubururu ndetse n'igitukura, n'imbuto izwi nka pome ndetse n'agacupa karimo amazi yo kunywa.

Umugabo ufite mu biganza bye icyuma cyifashishwa muri siporo, imbere hakaba hari ibiribwa bigiye bitandukanye birimo nk'amagi ndetse n'ibishyimbo, hakaba ari n'icupa ririmo amazi yo kunywa ndetse na pavuro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Hakaba harimo umugabo uhagaze, wambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umweru ndetse n'inkweto z'umweru. Akaba ashinzwe kwita kuri ibyo bikoresho.

Ikiganza giteruye i jage y'ikirahure ndetse n'ikindi kirahure kiri gusukwamo amazi,, amazi akaba ari ingenzi mu buzima bwa muntu kuko umuntu wanyweye amazi amaraso atembera neza mu mubiri n'imyanda igasohoka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, yambaye n'impeta ku kaboko yifashe mu ivi bigaragara ko agize ikibazo cy'imvune ari muri siporo, iyo umuntu agize ikibazo agana kwa muganga bakamufasha akongera akamera neza.

Ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye biri ahantu hamwe, hakaba hari uturindantoki turi mu ibara ry'umweru ndetse n'ibindi binini, hakaba hari n'imiti iri mu ducupa ndetse n'ibindi bipfuko bashyira ku muntu wakomeretse.

Agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kwa muganga harimo ibinini, inshinge, ndetse n'ibindi bazirika ku muntu wavunitse, hakaba n'umukasi wo kubi bikata.

Umwana basamuye bari kumupima amenyo ndetse uri kumufasha yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hahagaze umugabo n'umugore bambaye agapfukamunwa ndetse ku ruhande hakaba hari umuryango.

Ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa biri ahantu hamwe hakaba harimo ibyifashishwa mu gukora siporo agacupa kajyamo amazi yo kunywa ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye zirimo pomme ndetse n'amaronji.

Umukobwa ukiri muto ari kwita ku mugabo ugeze muzabukuru wambaye umupira w'umweru ndetse n'umukandara w'umweru. Akaba ari kumufasha gukora siporo kugira ngo arusheho kugira imbaraga mu mubiri we.

Agatanda kari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hari ishusho igaragaza abantu babiri bambaye imyambaro y'umutuku bagateruye, aho kifashishwa batwaraho umuntu wavunitse utabasha kwigenza cyangwa urwaye cyane.

Abantu batandukanye bambaye utunozasuku mu mutwe, ndetse n'ibikanzu biri mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari abaganga, ku ruhande hari imashini zigiye zitandukanye, ziri mu ibara ry'umweru zifashishwa mu buvuzi.

Umugabo uri kwirukanka cyane bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri, inyuma ye hakaba hari ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, harimo pome, amashu, karoti ndetse n'ibindi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ubona ko yashyizemo imbaraga nyinshi cyane, ku ruhande rwe hari undi mudamu usutamye, inyuma ya bo hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa, bari gukora siporo.

Ibikoresho bitandukanye byinshi cyane byifashishwa kwa muganga hakaba harimo inshinge bajomba abarwayi, ibinini bigiye bitandukanye ndetse n'imikasi n'ibindi bazirika ku muntu wavunitse.

Umukobwa uri muri siporo wambaye agasengeri n'ipantaro by'umukara. Ndetse yambaye ekuteri mu matwi ari kumva imiziki. Imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa, ashobora kunywaho amaze kunanirwa agakomeza siporo.

Abantu babiri bari ahantu hamwe; umwe aricaye undi arahagaze, ndetse imbere yabo hari ibikapu biri mu ibara ry'umukara, birimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Umugabo ari kunywa amazi ku ruhande rwe hari umupira w'amaguru.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi biri ahantu hamwe, harimo imiti yo kwa muganga ivura umutwe, ga bambara bagiye gukora mu bintu byanduye, ndetse n'ibinini by'amoko agiye atandukanye.

Umugabo wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro imufashe y'umukara akaba yafashe ikiganza kimwe agifatisha ku ivi, ikindi agifatisha ku kirenge bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri ku ruhande rwe hari intebe yo kwicaramo.

Abaturage benshi bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari ahantu hamwe hari amapave bigaragara ko bari muri siporo rusange, hirya y'abo hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari agakapu k'umutuku, kariho ikimenyetso cy'umusaraba ndetse n'ibindi biri mu ducupa, bivura indwara zitandukanye, n'umukasi bifashisha, hamwe n'ibinini n'inshinge.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bari guhugurwa uko bita ku muntu ugize ikibazo runaka ubufasha bw'ibanze ushobora kumuha, hari uryamye hasi wavunitse bari kwitaho.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kikaba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hari ikimashini kiri mu ibara ry'umweru kinini baryamishaho umuntu, kugira ngo bamusuzume hamenyekane ikibazo afite.

Imbago: iki ngiki akaba ari igikoresho cyifashishwa n'abantu bafite ubumuga, bavunitse amaguru, cyangwa batayafite kikabafasha kugenda neza nubwo biba bata neza cyane, ariko muri rusange kikaborohereza.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari umudamu wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hakaba hari ibindi byuma byifashishwa muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengengeri kari mu ibara ry'umuhondo, afite imisatsi myinshi cyane ndetse yambaye na cora, akaba ari gukora siporo ngororamubiri aho ari kugorora umugongo. Siporo ni nziza mu buzima bwa muntu.

Imashini nini cyane iri mu mabara y'umweru ikaba ari icyuma cyifashishwa kwa muganga, aho baryamishaho umurwayi kugira ngo bamusuzume hamenyekane neza ikibazo afite abone guhabwa imiti.

Siporo zigiye zitandukanyekanye umubiri uba ukeneye kugira ngo urusheho kugenda neza. Hakaba hariho izo kwicara ugatuza, koga mu mazi menshi, kwirukanka ndetse no kurya indyo yuzuye.

Imbuto zigiye zitandukanye, ziri mu biganza by'umuntu. Hakaba harimo n'imboga z'ubwoko butandukanye nka pavuro, tungurusumu n'ibindi ndetse hakaba harimo pome, voka, ku ruhande hari inkweto zo gukorana siporo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba bicaye, harimo abakobwa ndetse n'umugabo uhagaze imbere yabo, wambaye itaburiya y'umweru. Ku ruhande hakaba hari igitanda baryamishaho abarwayi , kugira ngo basuzumwe.

Umudamu wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro imufashe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ikiganza cye yagifatishije ku birenge, ari kwigorora. Imyitozo akaba ari myiza cyane ku mubiri w'umuntu.

Umukobwa wambaye ekuteri z'umweru mu matwi, yambaye agasengeri na kora by'umukara n'inkweto z'umweru, ari gukora siporo ngororamubiri, ku ruhande rwe hari agacupa k'amazi, yo kunywa ku buryo nananirwa arasomaho.

Agakoresho k'ikoranabuhanga karimo ibara ritukura, kakaba ari uburyo bwashyizweho bwo kugeza ku bantu barwaye amaraso byihutirwa aho bayagurutsa kuri ako kamashini ku ruhande hari inyubako zo guturamo.

Igikapu kiri mu ibara ritukura, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imikasi ibindi bifashisha bazirika ku muntu wavunitse, ndetse n'imiti igiye itandukanye n'ibinini.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ateruye icyuma abaterura ibyuma bakoresha bashaka kuzana ukuboko, akaba ari ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye ku bice by'umubiri.

Icyumba kirimo ibyuma byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga. Hakaba hari igitebe kinini cyane bigaragara ko ari icyo bashyiraho umurwayi ndetse n'akandi gatebe gatoya ko kwicaraho n'izindi mashini zifashishwa mu buvuzi.

Ibibabi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi ubona ko bitoshye cyane, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse bamwe bakunda kuyikoreshamo ibiyobyabwenge, aho bizwi ku izina ry'urumogi.

Igiti kirekire cyakuze kiriho amababi y'icyatsi, iki ngiki kikaba kizwi mu izina ry'umuravumba, kivura indwara zigiye zitandukanye zirimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Abaturage benshi bagiye batandukanye bahuriye hamwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari ahantu bacururiza ibiribwa bigiye bitandukanye bigaragara ko ari mu isoko, bimwe mu byo tubona harimo amaronji n'ibindi bitandukanye.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko ari mu murima. Hari abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abambaye amakote, bakaba bari mu murima uteyemo ibikakarubamba bikaba bivura indwara zitandukanye.

Urubuto rumwe rurakase urundi nagorukase, mo imbere yarwo harimo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ndetse ku ruhande rwarwo hasa ibara ry'umuhondo, rukaba rumenyerewe ku izinazina ry'ipapayi kubera intungamubiri rugira.

Ibiribwa bigiye bitandukanye umubiri uba ukeneye kugira ngo urusheho kumera neza hakaba harimo imbuto zikubiyemo imineke ndetse n'inanasi n'andi mafunguro agiye atunganyirizwa mu ruganda wakoresha.

Abantu benshi cyane bari hamwe bakaba bari mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, bakaba bari kumwe n'ibimashini binini byifashishwa mu buhinzi bugezweho, aho bihinga ahantu hanini kandi mu gihe gitoya.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi bifite n'amababi ari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari ibimera bizwi ku izina ry'umuravumba bikaba bikoreshwa mu buvuzi gakondo aho byifashishwa mu kuvura inkorora n'ibindi.

Ibirahure bibiri bigaragara ko birimo icyayi, muri icyo cyayi bashyizemo amababi y'ibimera bizwi nk'umuravumba, akaba ari ibimera bivura indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora n'ibicurane, babishyizemo kugira ngo bivure indwara.

Ibihingwa biri mu ibara ry'icyatsi bikaba bigiye bihinze mu tudobo ndetse hakaba hari n'ibindi biri munsi yaho, ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo aho itunganywa ikavura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite amababi manini y'icyatsi bikaba bigaragara ko ari ikimera kitwa umuravumba kivura indwara zigiye zitandukanye zirimo nk'inkorora, ibicurane, ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye akanozasuku mu mutwe n'agapfukamunwa, akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari amacupa menshi ndetse n'ibikarito ari kugenda atunganya neza kugira ngo abishyiremo ayo macupa.

Ibirahure bibiri bigaragara ko harimo icyayi, muri icyo cyayi bashyizemo ibibabi bisa icyatsi bikaba ari iby'ikimera cyitwa umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zirimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.